Amacupa menshi cyane, arimo ubwoko bw'inzoga butandukanye, buri macupa aregeranye ahuje ubwoko ateretse ahantu hasa neza, ku mpande hari inzu y'amatafari.

Ahantu hasa neza cyane, ahantu ho kwakirira abantu, intebe zirimo, intebe zigaragara neza, intebe zitandukanye, hari ameza yo gushiraho ibintu, ni inzu yubatse neza cyane.

Ahantu hahuriye abantu benshi, bari kubyina , barikunywa ,barishimye cyane ,abandi bari kubafotora abandi babiri barahagaze ,bari kugaragaza ibyishimo cyane, ibintu bimeze neza.

Abantu benshi cyane, bari ahantu hijimye cyane ,hari abahagaze hari abandi bicaye ni abazungu. Imbere yabo no hagati hari kwaka umuriro hari icupa ry'ikirahuri riteretse.

Inzu yiganjemo amabara y'ubururu iriho ibyapa byanditsweho pirimusi, irimo utuntu twamatafari, ni inzu yubatse neza cyane.

Umugabo mwiza cyane, wambaye ishati y'umweru, afashe icupa, imbere ye hateretse ikirahuri. Ahantu ari, hari amabara atatse ku bikuta yiganjemo icyatsi hariho n'amacupa.

Ahantu heza cyane hari inzoga z'ubwoko bwinshi; hari sikoro, hari kokakora, hateretse amacupa menshi atandukanye harikesi ihari n'ahantu hagaragara neza cyane.

Ahantu heza cyane hari inzoga z'ubwoko bwose, hari intebe nziza cyane, hari ibirahuri, hari amacupa menshi cyane atandukanye y'ubwoko butandukanye.

Abasore babiri bahagaze mu muryango, hari uwambaye agapfukamunwa, hari ufite igikombe, ni umuryango uteyeho amarangi y'ubururu, ushushanyijeho amacupa, wanditseho Inyange.

Ahantu heza cyane hagaragara neza cyane harimo amacuupa menshi cyane, arimo ubwoko bw'inzoga butandukanye, hari umuntu uhari ni umuzungu, ni ahantu heza cyane hari amacupa menshi acucitse.

Ibiribwa byiza cyane by'ubwoko butandukanye, ubwoko bwinshi buri ahantu heza cyane. Imbuto ziri ahantu hasukuye kandi hafite isuku cyane.

Agasahani kariho inyanya, ibitunguru, boroshete ebyiri, gateretse ahantu, agasahani gasa n'umweru, boroshete ziri mu gu...

Matola nyinshi cyane zirunze ahantu hamwe, hari matola nini cyane hari n'intoya, hari imikeka izingiye hamwe, hari inzu nziza cyane igaragara neza.

Inzu nziza cyane irimo amacupa, hari imodoka ihagaze impande y'iyo nzu hari abagabo bahahagaze n'inzu yiganjemo amabara y'umukara.

Butike nziza cyane, ihagazemo umugore mumuryango , hari n'undi wicaye arikotsa umwana. Hari amagare ari hanze. Buutike harimo: umuceri, harimo kawunga, n'ibindi biryo bitandukanye byo mu bwoko bwose.

Inzu isa neza cyane, imbere yayo itangije amabuye, hari akayira karimo, banyuramo bari kujya aho ngaho kuri iyo nzu, irimo amarangi y'umuho..

Inzu nziza cyane isa neza, hagati hateretsemo intebe, intebe idateye irangi, harimo igare, hagati harimo igishushanyo gishushanyijeho ibicuruzwa.

Abasore babiri bahagaze, hari umwe muremure n' undi mugufi; umwe n' igikara cyane, umwe yambaye umupira w' umutuku undi yambaye umupira urimo amabara menshi.

Inzu nziza cyane iriho ibyapa biri mu mabara y'umweru, muri ibyo byapa harimo amashusho y'abana, igitsina gore n'igitsina gabo. Hejuru hari ibipupe bambitse imyenda y'abana b'abahungu, n'imyenda y'abana b'abakobwa.

Inzu yubatse neza cyane imbere yiyo nzu hamanitseho ku biti ibitenge, by'amabara atandukanye n'ibitambara by'amabara atandukanye.

Ahantu heza cyane hari igiti kiri hagati, gifite amababi y'icyatsi hari abantu bicaye bari gucuruza, hari umugore uri kugenda wikoreye ibase uhetse n'umwana.

Bare yakira abantu baturutse ahantu hatandukanye, hariho icyapa kiriho ibintu batanga, hariho amacupa, haba harimo inzoga z'ubwoko butandukanye, harimo n'agatebe hagati.

Ibicuruzwa byo kurya biri mu mifuka. Hari umunzani bakoresha bari gupimira abaje kugura. Hari akadobo gateretse ku munzani, hari abagabo babiri bicaye ku mutaka wa mtn.

Icyapa giteretse mu byatsi by'icyatsi, icyapa cyiganjemo amabara y'umweru n'umuhondo, gishushanyijeho amagi n'inyama, hari imodoka iparitse, hari amazu meza cyane.

Ahantu heza cyane, hacururiza ikawa, hari abantu bari hanze bari kunywa ikawa, abandi bari kuza, barahagaze, hari abandi bicaye, ni ahantu hagaragara neza cyane.

Ahantu heza cyane hasa neza cyane, hari imitako itandukanye y'ubwoko bwinshi, ni myinshi cyane, hari amaherena, hari imitako yabagore y'ubwoko bwose, birasa neza cyane.

Inzu nziza cyane, irimo amabara y'umuhondo, hejuru hamanitse ibipapuro, biriho amaterefone, n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Inzu isa neza cyane yubatse igerekeranye imbere yaho hari moto iparitse yiganjemo amabara y'umutuku hari umuntu ucunga umutekano uri mu muryango.

Isoko byiganjemo imyenda y'imbeho, cyane cyane amakoti y'abantu bakuru. Hari umuntu wambaye agapfukamunwa, harimo amakoti agaragara neza cyane y'amabara atandukanye.

Amakanzu meza cyane. Umuntu wicaye ku imashini hari undi muntu uri kugenda mu nzira hari moto iri mu muhanda itwaye umuntu, moto irimo amabara y'umutuku n'umukara.

Ahantu heza cyane hubatse neza cyane bacururiza ibyoku kurya. Iyo nzu iri hafi y'umuhanda imeze neza cyane hirya yayo hariho amatafari.

Ahantu heza cyane, hari butike, hari imodoka ipakiye amafanta, hari ahantu batangira mitiyu, hari n'akazu ka MTN.

Abagore babiri bicaye, imifuka irimo ibirayi, hari inyanya, hari igitoki, hari ibitunguru mu nzu, hari umunzani bakoresha bari gupimira abantu.

Abantu bari gukora ibintu bitandukanye, hari ibikoresho bihari by'ubwoko butandukanye, hari umusore wicaye wambaye neza cyane, yambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'umweru. Hari umugore wicaye uri kwambika umwana inkweto.

Inzu nziza cyane iteye amarangi y'umuhondo hari indi hirya yayo iteye amarangi y'ubururu, hari umugore wicaye uri gutanga mitiyu hari undi mugore uri kugenda.

Icyapa kinini cy'umutuku kiri ahantu ku nzu y'amabuye. Icyapa kirimo amabara y'umutuku hari amagambo acyanditseho, yandikishijwe amabara y'umweru.

Imiryango ebyiri ifite irangi ryiza cyane, hari umuryango uriho igare imiryango bacururizaho ibyokurya bitandukanye, imbere mu muryango hari umuryango uteretseho gaze y'umutuku.

Inzu yanditseho Umutuzo, ishushanyijeho abantu, igaragaza ko ari inzu banyweramo, harimo ibintu byo kurya abantu barya bakanywa bakaganira.

Icyapa cyiza cyane, hari isabune yo gukoropa ikanirukana ibinyenzi, hari umuti wica imibu, iyi miti ni imiti myiza cyane igaragara neza cyane, icyapa kirimo amabara y'umweru ni'icyatsi.

Ahantu heza cyane, hari ikibuga hasi kirimo icyatsi, ni ibyatsi bisa gutyo, hari indabyo ku ruhande, inyuma y'inzu z'icyatsi zigaragara neza cyane, ni ahantu bakora imiti yica uburondwe n'amasazi ku matungo.

Icyumba cyo gucururizamo ibiryo byo kurya, harimo udufuka tw'umweru, utw'umuhondo turateretse, haruzuye cyane, hari n'udufuka tumanitse ku rugi rw'umweru.

Buutike irimo ibintu byiganjemo ibyo kurya, hari igiti gishinze, kijyanye umuriro muri yo butike, hari umuntu ufite umusatsi mwinshi, uri kwinjira muri iyo butike, hari imifuka imanitse ku mugozi, hari imikoropesho, hari n'umufuka uteretsemo amakara.

Imifuka myinshi cyane irunze mu nzu . Ni imifuka isa n'umweru, iri mu nzu ifite urugi ruteye irangi ry'umweru . Iyo nzu hejuru y'aho hari ibyapa . Icyo cyapa gisa n'umutuku hari imifuka y'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bari kujya mu nce z'ahantu zitandukanye, hari abatwaye amagare, hari abatwaye moto. Ni mu muhanda w'abantu benshi.

Inzu nziza cyane ,isa neza cyane, hari abantu bahagaze imbere y'inzu ,hari moto zihaparitse ,hari igiti gishinze imbere y'iyo nzu cy'umweru ,hari imifuka iteretse mu muryango.

Inzu nziza cyane, isa neza cyane, hari igare ryegamiye iyo nzu hanze. Mu nzu hagati hari agakweto ka bodaboda k'umuhondo kahamanitse, hari akameza gateretse mu nzu.

Inzu nziza cyane, ishushanyijeho icupa, ni inzu isa neza cyane, hafi yaho hari ibiti bihari, ni inzu ifite amabara atandukanye.

Intoki zifashe ikintu kimeze nk'igikombe mu ntoki. Icyo gikombe, gifite amabara y'icyatsi, ashushanyijemo igitunguru cy'umutuku.

Ahantu bacururiza ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, cyane cyane imigati, harimo gato z'ubwoko butandukanye, harimo ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye.

Ahantu heza cyane bacururiza ibintu byiza cyane bitandukanye, harimo ibyo kunywa, harimo ji , harimo ibyo kurya, harimo amavuta yo kwisiga y'ubwoko butandukanye, harimo moviti, harimo sante n'ibindi byinshi.

Inzu nziza cyane yubatse igeretse, iriho ibyapa byinshi yanditseho amagambo menshi. Hari ahanditse Kanuma, ni inzu isa neza cyane.

Igare riteretse ahantu heza cyane, hirya y'igare hari gaze, zirunze nyinshi cyane zifite ibara ry'umutuku hari umwana uhagaze hafi y'izo gaze.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse ahantu hatandukanye, harimo abana abagore n'abagabo hapakiye imifuka y'ibishyimbo, hari ibindi bishyimbo bisutse hasi.

Inzu nziza cyane iteye amakaro y'umweru, hari umuntu uri kugenda hafi y'umuhanda, hari undi muntu uri kwinjira mu muryango.

Ahantu heza cyane, hubatse neza cyane, bacururiza ibikoresho, hariho ipoto iri imbere yinzu bakoresheje kugirango ngo babone umuriro, bakoresha aho ngaho ngaho hari abantu bahagaze bahagaze mu muryango.

Inzu yubatse neza cyane ifite igipangu, urugi ruteye irangi ryiza cyane ryijimye, igipangu cy'iyo nzu ni icy'amatafari. Ni inzu iteye amarangi yiganjemo umweru.

Isoko ryiganjemo amazi ya jibu ateretse hejuru yimbaho, hari amakarito ari hafi y' aho hejuru hari uducupa tuhateretse, hari ahantu hijimye cyane.

Inzu nziza cyane yubatse neza cyane, yiganjemo amabara y'umweru, harimo n'ay'umutuku, hari abantu bahagaze, hari amacupa ahari, amacupa menshi, harimo n'ubujerekani bwinshi cyane.

Umuhanda w'umukara, harimo umurongo w'umuhondo, imbere y'aho hari moto iparitse ihagazeho umuntu, hari inzu nziza cyane iteye amarangi meza, yanditsweho gatanu.

Ibyatsi byinshi cyane, icyapa cyiganjemo amabara yijimye n'amabara y'umweru, icypa cyanditsemo hagati Virunga, inyuma ya cyo hari ibiti birebire cyane.

Inzu bacururizamo ibirayi byo kurya, hari imifuka y'ibirayi iteretsemo, hari umunzani umanitse hejuru, bakoresha bari gupimira abantu baje kugura, ibirayi. Hari n'agatebe gateretsemo mu nzu bakunda kwicaramo. Hari umugabo uri hanze, upakiye umufuka w'ibirayi.

Unzu ndende cyane yubatse neza yiganjemo amabara, yijimye ahenshi mubikuta byayo ni amabara yijimye cyane hari n' andi mabara arimo y' umuhondo makeya.

Insinga zikoreshwa mu gushira amashanyarazi mu nzu, hari umuntu urimo uzicuruza, n'insinga nyinshi z'ubwoko butandukanye zirazinze, hari n'izindi zirambuye, hari n'izipfutse.

Inzu yubatse neza cyane bacururizamo ibyokurya. Harimo: imigati, harimo imineke, harimo amagi, harimo ibyo kunywa, harimo uducupa turimo ibintu bitandukanye byinshi. Harimo n'umuntu uhagaze.

Ahantu heza cyane, ikirere gisa neza cyane, hari ibiti birebire bisa neza cyane, hari amazu yubatse neza cyane, ateye amarangi meza, hari irangi ry'umuhondo rigaragara neza cyane.

Inzu yubatse neza iteye amarangi bacururizamo ibijyanye n'ibiribwa, harimo imiryango ibiri ifite amakaro ni imiryango ifunze.

Ahantu hameze neza cyane bacuruza ibikoresho by' ikoranabuhanga bitandukanye harimo amatelefone, harimo amakamera, harimo abantu bari kugura ibyo bikoresho; ni ahantu hasa neza cyane.

Inzu nziza cyane hanze ku muryango hamanitseho imyambaro y'amakanzu, amakanzu meza cyane hari amaremare n'amagufi.

Ahantu heza cyane bacururiza imyaka yiganjemo ibigori n'indi myaka, hari abantu bahari, hari umucuruzi ubicuruza, hari umunzani bapimisha umuntu ari kugura, n'ako bakoresha bari kugosora.

Butike nziza cyane yibanzemo ibyo kunywa harimo fanta, harimo twisita, harimo amavuta yo kwisiga ya sante, harimo na vaserine, harimo n'irindi cupa ryo kunywa ryitwa eneriji.

Inzu yubatse neza cyane igeretse. Hari ibyatsi biri hagati by'icyatsi bigaragara neza cyane, hari imodoka ifite amabara yumweru iparitse hagati.

Isoko ry'imyenda yo kwambara. Imyenda y'imbeho, cyane cyane imipira y'abantu bakuru. Harimo amapantaro y'amatiringi. Hari imyenda igaragara neza ivanze.

Inzu nziza cyane, isa neza cyane, yubatse neza cyane, irimo amabara atandukanye hari ay'umuhondo hari n'andi mabara y'ubwoko bwinshi, ni inzu irimo ibirahuri.

Inyubako nziza cyane, hari imodoka iparitse, hari umugabo wicaye uri kureba ibintu muri telefone, hari igitoki kiri hafi y'iyo nyubako, inyubako isa neza cyane.

Isoko ryiganjemo imyenda yo kwambara, harimo ibitenge, hari imashini abantu bakoresha bari kudodera abantu, hari umugabo uri gutera ipasi.

Umuntu uri mu isoko . Isoko ryiganjemo ibikoresho , harimo ibikombe ,amabase, indobo . Umuntu ari kugura , yambaye hejuru agapira karimo umutuku n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bamwe binjira abandi basohoka, bashaka ibintu bakeneye, buri wese n'ikintu akeneye cyamubeshaho mubuzima bwa buri munsi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse mu nshe zitandukanye baje mu isoko, isoko ryiganjemo amasafuriya, imyenda, amadobo na mabase.

Isoko ryiganjemo imyenda y' abagore yo kwambara harimo amakanzu meza cyane, harimo umufuka uteretse hari abantu bari kugenda.

Abantu benshi baje ahantu hacururizwa ibyo kurya, higanjemo ibitoki, baje kugura ibitoki barunamye bari kureba uko bimeze.

Imyenda irunze hamwe nyinshi cyane, hari umugabo wicaye imbere ya yo yiganjemo iy'abana ni yo myinshi cyane. Umugabo yambaye agapira k'umutuku.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bari mu isoko baturutse ahantu hatandukanye hari abafite inkoko, hari umuntu uri gucuruza intebe intebe zidateye irangi, hari inzu ya emutiyene umuntu utangiramo amayinite.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse mu nshe zitandukanye baje mu isoko, isoko ryiganjemo iby'ibiribwa, harimo urusenda, harimo ibitunguru, harimo pavuro, harimo inyanya abantu bari kugura, harimo n'abacuruzi.

Iduka ryiganjemo amavuta n'isabune, hari isabune yo gufura, hari n'isabune yo koga, ayo mavuta y'ikontoro ya moviti, harimo nay'inka, amasabune hari akase, hari n'akiri yose.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse mu ce zitandukanye bari mu isoko, isoko ririmo ibintu byinshi bitandukanye harimo amasafuriya, harimo ijerekani, harimo ibikapu, harimo udutambaro.

Icyumba cyo gucururizamo: harimo udutoroshi, harimo ibikarito, harimo umufuka urimo ifu.

Isoko ryiganjemo inkweto zo kwambara cyane cyane inkweto za bodaboda, hari bote ,hari bodaboda z'icyatsi, hari bodaboda z'abana, hari bodaboda z'abagore, hari imifuka hafi yazo.

Isoko ryiganjemo ibiribwa, amavuta yo kurya. Hari ibiribwa by'ubwoko butandukanye. Ibyo biribwa bipakiye mu mifuka.

Umuhungu w'igikara ukiri mutoya cyane, wambaye ikoti ririmo umukara n'umweru, ari gucuruza isambusa. Ni isambusa ubona ko ari nyinshi cyane, ashyize amaboko hejuru y'ameza.

Isoko rinini cyane, ririmo ibintu byinshi cyane, higanjemo ibyo kurya imbuto. Hari umuntu uri hirya kure cyane, wambaye hejuru umutuku, hari n'undi hirya kure cyane, wambaye hejuru umweru.

Isoko ryiganjemo ibiribwa cyane cyane ibirayi. Ibirayi byiza cyane harimo ibinini cyane harimo ibitoya hari ni duto cyane, harimo umugabo w'igikara wambaye agapira k'icyatsi.

Umuryango w'ahantu bacururiza imyenda, hari udufuka abantu bagura bagatwaramo, hari imyenda iri hasi yo kwambara abagurisha muri uwo muryango, harimo umuceri, hari kawunga, harimo n'imyenda yo kwambara.

Ibikapu byinshi cyane, hari ibitoya hari ibinini. Hari abantu bari imbere y'ibyo bikapu, ni ibikapu bifite amabara atandukanye ay'umukara n'ay umutuku.

Isoko ririmo amavuta yo kwisiga y'igikotoro hivanzemo amabara y'umuhondo n'umutuku amavuta yitwa Moviti, harimo n'amatara y'umweru y'amashanyarazi bamanika hejuru.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bari mu isoko, hari isoko ry'ibiribwa, hari amavuta, hari udukapu two guhahiramo, hari imitaka, hari icyo kunywa.

Isoko ririmo ibintu byinshi cyane amabase, indobo, intebe, imikeka, teremusi. Hari abantu babiri.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo: amajage, hari indobo irimo ibidiya, hari intoki zifashe igikarito.

Imbuto nyinshi cyane zirunze hamwe, z'ubwoko butandukanye hari: imineke, hari amatunda, hari voka, hari imyembe n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umugore wicaye hasi yambaye mwamina z'umweru zisudiye, akenyeye igitenge, ari gucuruza itabi, yashashe ku mufuka w'umweru.

Isoko ryiganjemo ibikoresho byo mu rugo; ibikoresho bikenerwa buri munsi harimo imbabura, harimo amasafuriya, harimo utwibo, harimo indiga z' ubwoko butandukanye, harimo amabase, harimo n' indobo.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse mu nshe zitandukanye baje guhaha mu isoko, isoko ryiganjemo ry'ibiribwa biri mu mufuka hari abantu benshi bari kugura hari imikubuza yo gukubuza abantu bakoresha bakondora mu rugo.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, baturutse mu nce zitandukanye baje mu isoko, kugura ibiribwa bitandukanye mu isoko ryiganjemo ibiribwa, harimo ibirayi, harimo abantu baba baje kugura harimo n'abacuruzi.

Urujya n'uruza rw'abantutu benshi, bari kugenda mu nzira y'igitaka, hari abantu benshi batwaye amagare, bapakiye ibintu mu bitebo hari n'abandi biganjemo igitsina gore bahagaze.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, baturutse mu nce zitandukanye, baje mu isoko, soko ryiganjemo ibiribwa by'imboga, hari abantu biteye imitaka, hari n'abandi bari gusuka.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, uri gucuruza ingofero z'abagore, hari ibipupe by'abana, hari nibyo kumva amajwi.

Inyubako nziza cyane irimo ibintu bitandukanye, ibiribwa by'ubwoko butandukanye. Imyambaro y'ubwoko butandukanye. Inkweto z'ubwoko butandukanye n'ibindi bintu bikenerwa buri munsi, hari imodoka iparitse aho ngaho, hari moto hari abantu benshi cyane baturutse ahantu hatandukanye.

Isoko ryiganjemo ibicuruzwa byo kurya, hari udufuka tumanitse, hari umugore uhagaze impande y'udufuka, hari umugabo ufashe igare.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko ryiganjemo inkweto zo gukarabiramo, harimo silipa umoja, harimo inkweto zisanzwe z'abagore, harimo iz'abagabo, harimo abacuruzi bari kwakira amafaranga.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse mu nce zitandukanye, baje mu isoko, ryiganjemo iry'biribwa. Harimo ibitunguru, harimo inyanya, harimo pavuro, abantu bari kugura, harimo n'abacuruzi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baturutse mu duce zitandukanye biganjemo igitsinagore. Hari abafite abana bari mu isoko ryiganjemo ry'ibiribwa harimo karoti, harimo imboga, harimo intogi. Abantu bategereje abaza kubagurira.